Icatsi c'igitenetene usanga ceraga n'ahantu hatari n'ubutaka bwinshi. Ushobora no kugisanga cafashe hejuru no ku makoro. Kubera ko ukuntu kibaga umuti kinakoreshwaga cyane mu buvuzi gakondo, usangaga no kukibona bigoranye kubera ukuntu ari ahantu hakeya kibonekaga.

Igiti cy'umuhate usanga abantu benshi bagitera nko ku nzitiro kubera ukuntu iyo bimaze kuba byinshi usanga aho ahantu biri ku rugo, urugo rwabaye rwiza. Cyangwa se bagakunda no kucyifashisha cyane nko gutera imbago mu mirima, kugira ngo batandukanye umurima w'umuntu n'uwundi.